Icyumba kimeze nk'akabari cyangwa aho batangira ikawa, hari ibyuma bikonjesha birimo amacupa ndetse n'amacupa y'ibirahuri. Imbere yaho hari kontwari ikoze mu duti, mbese by'imitako. Ibumoso hari urugi ndetse hari n'icyuma gitunganya ikawa cyangwa gitanga icyo kunywa. Hejuru ku gisenge hari amatara atanga urumuri.

Ishusho igaragaza inzu ifite igisenge cy'amabati gifite inkuta z'umweru, imiryango n'amadirishya by'umweru. Hari abagabo batatu, ifite igipangu cy'ubururu.

Ishusho igaragaza abagore ababiri inyuma yabo hari imitako gakondo y'umuco y'umuco w'abanyarwanda, imbere yaho hari ameza manini ateretseho utujerekani turimo ikivuguto ndetse n'udukombe duto kw'imikebe natwo turimo ikivuguto, umugore umwe ari kureba mucyuma gikonjesha avanamo agakebe avanamo karimo ikivuguto.

Icyumba kirimo abantu babiri, umugore n'umugabo, harimo icyuma cyagenewe kubika amata, icyuma cyagenewe gukonjesha, inyuma yabo hari akabati karimo amazi, imitobe ndetse n'ameza.

Icyuma cyagenewe kubika amata cyanditseho Inyange mu magambo y'umweru mu ibara ry'ubururu, inyumayacyo hari akabati gateretseho imitobe iri mu ducupa, imitobe y'umwembe, imitobe ya pome, amazi ndetse n'amata, ibumoso hari icyuma cyagenewe gushyushya ibiryo.

Icyumba kirimo abantu babiri, inyuma yabo hari etajeri imanitse ku rukuta, imbere yabo hari etajeri iteretseho indobo enye zirimo amafunguro; imikati, amandazi. Umugabo umwe yambaye ishati y'iroza iburyo bwe hari umugabo wambaye umupira w'icyatsi.

Umugabo n'umugore, umugabo aricaye asa nkuri kuvugana n'umugore, umugore yambaye ikoti ry'umukara n'ijipo iriho ibishushanyo, inyuma yabo hari akabati kariho amacupa arimo ibinyobwa, inyuma y'umugabo hari akabati gateretseho indobo zirimo amandazi n'imigati.

Umuhanda w'abanyamaguru, urimo abagabo batanu bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro, inyuma yabo hari umugore wambaye ikanzu y'iroza n'indorerwamo z'amaso, uteruye ibikapu byo guhahiramo, ibumoso bwe hari icyapa cyamamaza uburyo bw'ihanahana mafaranga hakoreshejwe imiyoboro nkoranabuhanga.

Imbehe isa n'umukura iriho amafunguro atandukanye: amagi, amakaroni, inyama, ibirungo.